Abasore batatu babiri bambaye udupira tw'umweru ndetse umwe yambaye ingofero undi yambaye ishati bigaragara ko bari mu kabari baje kunywa inzoga bigaragara ko bose bari kunywa inzoga za mitsingi bari kunywera mu birarahuri.

Abagabo cyangwa se abasore babiri ndetse n'umukobwa umwe wambaye agapira k'umweru nikajire k'umutuku, abagabo bambaye amakoti y'umukara, bari mu kabari cyangwa se muri bare aho harimo inzoga nyinshi zigiye zitandukanye, intebe zo kwegamaho ndetse harimo na televiziyo.

Ifunguro cyangwa se ibiryo biri ku isahani y'umweru, bigizwe n'inyama ,ibitunguru, indimu ndetse n'umushaba. Bigaragara ko bihiye bagiye kuribwa.

Ingeri nyinshi z'abantu hatandukanye aho bicaye bari kunywa inzoga, bicaye mu kabari cyangwa se muri Bare bicaye harimo abahungu n'abakobwa bari kuri Telefone ndetse hari n'icyapa cya Mitsingi mu kazu bicayemo.

Akabari karimo udutebe duto two kwicaraho ndetse n'akabati karimo inzoga z'ubwoko butandukanye, akabari gasakajwe amabati arimo umutuku ndetse inyuma hari n'amakese cyangwa se amagaziye abarimo inzoga.

Abagabo batatu bahagaze kumuhanda wamapave, aho hari inyubako ebyiri z'ubucuruzi zifunze, hariho imwe ifite amakaro hejuru ndetse indi nta yo ifite, ifite inzugi ebyiri nini.

Inzu y'ubucuruzi aho hari ibyapa byamamaza ibyo bakora. Hari sikoro hari n'ikindi cyapa cya Amani shopu, aho yerekana ibyo acuruza harimo gaze, amazi ya jibu, ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo n'amata y'abana n'amaji, ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye bacuruza.

Iduka cyangwa se botike rinini cyane ririmo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye higanjemo amazi, ifu y'igikoma, redigoludi cyangwa se salisa, ibyo kunywa bigiye bitandukanye , ndetse harimo n'umugore bisa nk'aho yaje kugura.

Igorofa ry'ubucuruzi aho hari ibintu bigiye bitandukanye, amaserivisi atandukanye, aha bamamaza ibyo bakora haririmo nk'imisatsi, ndetse hari n'abacuruza inkweto, hakaba hari n'umwavoka cyangwa se umunyamategeko wigenga aho akorera.

Inyubako nini y'ubucuruzi, ifite irangi ry'umuhondo ndetse n'umweru, imiryango imwe irafunguye, indi irafunze, hanze hari abantu bagiye batandukanye b'abaguzi, ndetse imbere y'iyo nzu, hari amapoto maremare y'amatara.

Inyubako nini y'ubucuruzi, isize irangi ry'umuhondo, ndetse n'iruhande hari inzu ebyiri zishaje ziriho amabati y'umutuku, ndetse hari n'umuhanda wa kaburimbo uriho amatara maremare cyane, ndetse n'insinga z'amashanyarazi.

Inzu y'ubucuruzi aho bakorera ikawa cyangwa se kofi hari icyapa kigaragaza nyirabyo aho handitse Gisazi Kofi bivuze ko kofi ikorerwamo ni iya Gisa cyangwa se iyo nzu y'ubucuruzi ni iya Gisa, ku ruhande hari indi nzu, hicaye abagabo bicaye ku ntebe hanze, hari n'undi uhagaze mu muryango.

Inzu nini y'ubwubatsi iriho icyapa cyamamaza cyangwa se kigaragaza ibyo bafite mu nzu, harimo icyapa cyanditseho uruhimbi rwa Gishwati, hari akameza kari imbere k'ibiti, mo imbere harimo ibikoresho bigiye bitandukanye: amaji, imiceri, indobo irimwo amafu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Inyubako y'ubucuruzi nziza. Imbere yayo haparitse imodoka ndetse iyo nyubako ifite imiryango minini, aho imbere hari icyapa cyamamaza ibyo bakora. Hashushanyijeho inzoga nyinshi zo mu bwoko butandukanye, mo imbere harimo n'izindi nzoga nyinshi zigiye zitandukanye. Bategereje abakiriya ngo baze bagure.

Butiki cyangwa se aho bagurira ibyo kurya ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye muri karitsiye, aho hari imbere igare ndetse n'amajerekani cyangwa se amagaro. Hari umugore uri kugosora ibishyimbo cyangwa se amajeri. Imbere hari abamotari, hari inzu z'ubucuruzi ku mpande zubatseho amakaro.

Umuhanda urimo amapave hari igipangu kiriho ibyuma, hari icyapa cyamamaza ibihakorerwa ko ari dizote cyangwa se aho abakiriya bajya kwiyakirira, hari igipangu gisakajwe amabati ndetse hari n'amapoto cyangwa se ibyuma bijyana insinga z'amashanyarazi.

Botike cyangwa se aho bagurira ibikoresho bitandukanye hari amarinete yo mu bwoko butandukanye, ari teretse ku makaro, kuri makaro hari igikarito kirimo baro zirimo amabara atandukanye, hari n'amapave n'ibindi bikarito bya kake.

Ibutike irimo ibicuruzwa bitandukanye harimo amakaramu yo mu bwoko butandukanye ,harimo uburoso bw'amenyo, inzoga zirimo ibyuma, imfunguzo zo gufunguza amacupa, hakabamo na puridanse ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Amazu y'ubucuruzi atatu afunguye. Hari abaturage benshi, hari amagaze, hari abamotari, hari n'aga n'umutaka wa emutiyeni, hari n'imodoka muri kaburimbo. Imbere y'iyo nzu y'ubucuruzi hari insinga z'amashanyarazi ndetse n'ipoto.

Umuhanda wa kaburimbo mugari harimo ibinyabiziga bitandukanye, higanjemo imodoka ndetse na moto itwaye umugenzi, iruhande hari umucuruzi ucuruza amayinite cyangwa se mitiyu, hari n'inyubako z'ubucuruzi ziriho ibyapa byamamaza ibyo bacuruza, ndetse hari n'ipoto y'amashanyarazi iriho insinga.

Iduka cyangwa se aho abaturage bahahira harimo umuceri uri mu mifuka, imiceri iri mu mashashi ndetse n'amakarito, urusenda, umunyu, indobo, amakayi ndetse n'ibindi.

Inyubako nini kandi nziza igeretse gatatu mbere hari abamotari, ndetse n'abandi baturage batandukanye, ku igorofa rya mbere hari ibyapa byinshi byamamaza, har'icyamamaza sita tayimu ikindi turi kumwe ikindi hapi kidi n'i ibyapa byinshi hari n'abanyonzi.

Farumasi cyangwa se aho bagurira imiti, harimo akabati k'umweru karimo n'imiti igiye itandukanye y'amatungo, ishushanyijeho inka ndetse hari n'indi miti iri ku ruhande yica udukoko n'indi miti myinshi itandukanye.

Umuhanda w'itaka, iruhande hari icyapa cyamamaza akabari, imbere yaho hakaba hari amapave, n'igipangu kirimo inzu isakajwe amatafari ahiye, ndetse imbere muri uwo muhanda w'itaka, hakaba hari imodoka ebyiri z'umweru.

Iduka rinini cyangwa se inyubako y'ubucuruzi harimo imiryango ebyiri igaragara, imbere ku gikuta hari umufuka w'umweru ndetse ku bindi bikuta by'imbere hari ibyuma cyangwa se amapompo, bifashisha bari gutera umuti ibyo kurya bigiye bita ibihingwa bigiye bitandukanye harimo: ibirayi, karoti, n'ibishyimbo. Hanze hari umugabo wicaye ufashe ikayi.

Umwana w'umuhungu uri gucururiza hanze aho ari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo impeta, amasaha, ibikomo, amashanete ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye, ategereje abakiriya ko baza bakagura.

Imbuto ziri mu isoko rigezweho rya kijyambere，hariho ibisima byokeshejwe amatafari ahiye ndetse n'utubati tw'ibiti， bashyizemo imbuto harimo inanasi， indimu，imyembe ndetse n'amapapayi， aho abacuruzi bari mu isoko bategereje ko abaguzi baza kugura kuri izo mbuto zabo.

Isoko ritoya, aho hari ameza ateretseho ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo tungurusumu, ibitunguru, inyanya ndetse n'umunzani, ndetse hari n'abagore babiri bahagaze imbere.

Imodoka nziza zo mu bwoko bwa toyota, harimo imwe ifite ikirango cya kanari purizi, ziri imbere ya resitora cyangwa sesito bale yitwa golila kere kingi gesite hawuze, aho zirimo abagenzi baje muri iyo bare baparitse.

Imbuga y'igitaka， imbere hari ibutike cyangwa se iguriro，aharimo ibicuruzwa bitandukanye， harimo ubuki， amandazi， amashikarete，amavuta， imbere hari imashini idoda ndetse n'intebe ebyiri，harimo iy'umweru，izwi nk'icyarahani ifite inkingi y'umukara. .....

Ibyapa bibiri byamamaza ,hari aho bamamaza muhabura vorokano, ini bakiri baranshe ,bakagaragaza ibyo bakora ,ibyo bateka ,harimo :amacapati ,imigati ndetse n'ibindi .Ikindi cyapa kikaba kigaragaza aho bamesera imyenda cyangwa se darayi kirina, bakagaragaza ko bafura amakoti bakoresheje imashini.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu batatu harimo abagore batatu ndetse n'umusore umwe .Hari n'inzu irimw'isize ibara rya oranje ndetse na etaje irikoreramo banki ya eyendemu banke.

Ububiko cyangwa sitowa, irimo ibikoresho bigezweho harimo ama sipikazi cyangwa se radio nini, ariho ibyapa byamamaza ama mashini ya ecipi ndetse n'agasitande ka televiziyo ko muri salo, byose biteretse ku amakaro.

Mu muhanda wa kaburimbo haririmo abana bari kugenda n'amaguru, bahande hari amamoto cyangwa se aba motari bahaparitse imbere y'inzu z'ubucuruzi ebyiri zifatanye, aho zifite imiryango migari hariho abanyonzi, umunyonzi ndetse n'imifuka y'amakara iteretse hanze y'inzu imbere y'inyubako imwe hari icyapa cyamamaza ibyo bakora.

Amajerekani cyangwa se amagaro ari mu moko atandukanye najya kuba umuhondo ndetse najya kuba umukara, ateretse ku makaro y'umweru imbere yaho hari ama Pave ndetse arimo irangi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo imirongo, ku ruhande hari amapave na borudire, iruhande rw'umuhanda hari inzu y'ubucuruzi irimo amabara atandukanye, hari amakaro yubatswe mu mbavu z'inzu ndetse hari n'imiryango myinshi igiye itandukanye.

Iduka cyangwa se iguriro ry'imyenda aho bayishyize hanze bari kuyanika ku biti kugira ngo abaguzi baze bayireba barondore imyenda bashaka, aho iyo nyubako yubakishijwe cyane higanjemo amakaro ku bikuta.

Botike y'imiti cyangwa se aho bagurira imiti y'ibihingwa harimo imiti igiye igitandukanye bitewe n'ubwoko umuntu ashaka araza akagura akajya gutera imyaka ye harimo irwanya udusimba, ituma imyaka igira ibibabi byiza n'indi myinshi itandukanye.

Abamotari benshi bagiye batandukanye ndetse n'umunyonzi utwaye umugenzi hari n'imitaka ya emutiyeni ndetse n'ibyapa byinshi byamamaza harimo fone senta ndetse hari n'igiti kinini kirekire imbere hari insinga z'amashanyarazi ndetse hari n'amazu y'ubucuruzi.

Inzu nini y'ubucuruzi irimo imiryango myinshi igiye itandukanye. Hariho isize irangi ry'umweru, imbere hari igitanda kitariho isaso, ndetse hejuru ku nzu hari icyapa cyamamaza, ndetse imbere yayo hari ipoto cyangwa se igiti kiriho insinga, zijyana amashanyarazi mu baturage.

Ibikoresho bifashisha bari kubaka amazu cyangwa se n'ibindi bikorwa remezo, birimo ingorofani ebyiri, insinga bifashisha abari kwensitara amashanyarazi, fera beto, amatiyo, raklete, imikubuzo ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye biri ku mapave.

Korari cyangwa se itsinda ry'abantu baririmba bakarepeta, bakaririmbira indirimbo hamwe mu rusengero. Aha bari bari mu masengesho, bari gusenga bapfukamye, abandi bubitse bashyize amaboko hasi.

Icyapa kinini cya koperative twihangire umurimo cotumu cyo muri Gakenke, aho imbere hari ibiribwa bigiye bitandukanye hari ibitoki bibiri, hari n'imbuto ziri mu kabase n'iziri mu gasero, ndetse n'iziri ku nkoko cyangwa se intara hari inanasi amaronje ibishyimbo cyangwa se ubunyobwa, hari n'impungure hari n'umuntu urimo utegereje abakiriya ko baza bakagura.

Inzu nziza cyane yari ahirengeye isakajwe amabati y'umukara, ifite amadirishya y'ibirahuri ndetse n'inzugi ndetse ifite ibaraza rinini imbere yayo hari pisine, ndetse hejuru ku mabati hari anteni y'igisahani bifashisha bari kugira ngo barebe televiziyo.

Igipangu gikikijwe n'ibyatsi, ndetse hari ibyapa byamamaza Amusiteri, ndetse inyuma hari inzu, hari icyapa gifasheho cyamamaza tiripu andi gesite hawuzi, aho abakiriya baza bakabona aho kurara mbese cyangwa se amacumbi baza bifashisha bakarara.

Imodoka ebyiri ziri mu bwoko bwa toyota, ziparitse imbere y'igorofa, ziparitse ku mapave ndetse hari n'abantu batatu, umwe ari ku ngorofani, ndetse iyo nzu ikaba igeretse gatatu.

Botike cyangwa se aho bagurira ibiryo bihiye bitandukanye aho hari akabati karimo ibiraha, amandazi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bakaba ari n'icyapa cyamamaza ibyo bakora harimo ikawa hakaba ari ubwoko bw'amakawa bacuruza abaguzi bakaza bakabisoma.

Umuhanda ukikijwe n'ibiti birebire ndetse n'insinga, nyinshi z'amashanyarazi na mapoto, hari n'akazuvu kariho icyapa cyamamaza tawuni hoteri, ndetse hari n'umuntu uhagaze kuruhande.

Ikiraro cy'inkoko, cyangwa se aho bororera inkoko, hubakishijwe, ikiraro cyubakishijwe ibibaho, ndetse hafunze n'ingufuri, aho bazana ibyokurya bakabiheramo imbere, barangiza bagafunga imiryango, kugira ngo inkoko zidasohoka, cyangwa hakaba ari ibindi bikoko, byakwinjira bikarya izo nkoko.

Iguriro rya bugufi abaturage bifashisha bagura ibyo kurya ni ibyokunywa, ni bindi bakoresha mu buzima bwa buri munsi, bikaba bifasha n'umucuruzi kubona inyungu.

Isoko ry' imboga n' imbuto ririmo abaguzi, ndetse n' abacuruzi, harimo ibyo gucuruza, harimo itsenda, ibitunguru, kokombure ndetse na seleri, hari umugore uri gucuruza ukenyeye igitenge, ndetse yambaye n' umupira.

Akaduka gato kari mu isoko hagati, aho hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo, isukari, tirimerike, mayoneze n'amavuta ndetse n'amafarini, n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, aho abakiriya baza bakagura cyangwa se abaturage.

Iduka cyangwa se ibutiki aho abaturage cyangwa se abantu baza guhahira harimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo amavuta, amavuta y'inka, hakabamo amavuta ya sante, hakabamo amasizo kabamo, uburoso bw'amenyo, n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Isoko cyangwa se butike cyangwa se aho bahahira aho harimo amavuta arimo amoko atandukanye harimo: moviti, amavuta yitwa marayika, ndetse na vazerine ndetse n'andi mavuta agiye atandukanye, aho ari mu isoko ategereje ko abaguzi baza kuyagura.

Ihuriro ry'abantu benshi ndetse n'imodoka zigiye zitandukanye, hari abantu bambaye ibikapu, ndetse hari imbere yabo hari ipoto ry'amashanyarazi, hari n'iduka rinini rifite igorofa, aho hari icyapa cy'aho bacururiza ikawa yo kunywa.

Iduka rito cyangwa se botike aho abaturage bahahira karimo akabati k'ibiti kariho amacupa atandatu yamazi y'bwoko bwa Nili.

Iduka cyangwa se botike cyangwa se aho abaturage bagurira bya bugufi, higanjemo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo utuyunguruzo bifasha bari kuyungurura harimo amata, ndetse n'ibyayi n'ibindi bigiye bitandukanye, harimo na ga bifashisha bari koga n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Ubwoko bw'imbuto buzwi nk'inanasi ziracyari nshyashya, zasaruwe. Hrimo izihiye cyane n'izitarashya cyane, aho zifashishwa bari gukora ji, cyangwa se bakazirya ari imbuto nk'inanasi bisanzwe.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye ririmo ibisima byubakishijwe amatafari ahiye, aho bacuruza imbuto zigendatandukanye harimo imineke, ibinyomoro, amaronji ndetse n'imboga hirya zigenda zitandukanye.

Umugore wicaye hasi akenyeye igitenge, yambaye inkweto za mukasa, hasi kumpande hari itabi ryitwa igikamba aho rikunda kunyobwa, bakoresheje inkono y' itabi hakaba rikunda kunyobwa n' abasaza cyangwa se abakecuru.

Abakobwa cyangwa se abagore bicaye hanze y'isoko, bicaye ku ntebe za palastike z'umweru, bari gucuruza pampa cyangwa se ibyo bambika abana byasimbuye ibyahi mu ndobo, ndetse no hejuru y'indobo hari omo, ndetse bafite n'ufuka ku ruhande.

Inyubako z'ubucuruzi zigiye zitandukanye, zifite imiryango migari y'umweru. Harimo ibicuruzwa bitandukanye. Hari botiki zirimo ibyo kurya byiganjemo imboga. Hari n'izindi botique zirimo imifuka, imbere yaho hari umugore n'umugabo, bigaragara ko umwe avuye guhaha muri ayo maduka.

Isoko cyangwa se butike ,aho hanze bashyizeho akameza k'ibiti cyangwa se akabati hateretseho umufuka munini w'umweru urimo amafu agiye atandukanye, hirya hari imiceri ndetse hari n'ibindi byinshi bitandukanye.

Abagore bicaye mu isoko bategereje abakiriya, bari gucuruza imbuto ziri imbere yabo harimo:imineke, amaronje, amapapayi ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye.

Isoko cyangwa se iguriro ry'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, haba harimo imyenda y'ubwoko butandukanye, harimo abacuruzi ndetse n'abaguzi bagiye batandukanye, higanjemo n'imitaka ya MTN.

Wotameloni ziri ku mufuka w'umweru ndetse hari n'ikarito munsi. Imyembe y'ubwoko butandukanye ndetse n'ikibogisi kiri inyuma biri mu isoko bitegereje abaguzi ko baza bakagura imbuto zitandukanye.

Umugore ukenyeye igitenge wambaye umupira w'imbeho, ari mu isoko ku gisima, hari karoti intoryi puwavuro ndetse n'inyanya, bari gucuruza bategereje abakiriya ngo baze bahahahire babone amafaranga.

Icyarahani kiri mu isoko cyangwa se aho badodera imyenda, aho hamanitse ibitenge inyuma y'abagore bahetse abana bari no kudoda, bamanitse ibitenge ndetse bari no gutambuka, abantu mu isoko rifite hasi amapave.

Butike cyangwa se ibutike irimo ibiribwa bigiye bitandukanye, ndetse n'ibikoresho harimo amajyani, hakabamo borosada cyangwa se uburoso bw'amenyo, hakabamo ako bifashisha bari kogosha ubwanwa, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye n'ibindi bigiye bitandukanye.

Shitingi ishashe hasi, iriho imboga z'ubwoko bugiye butandukanye, harimo karoti, inyanya, harimo inyamya mbisi ndetse n'izihiye, hakaba hari na dodo, iruhande hari umuntu uri gucuruza.

Isoko cyangwa se iduka rinini rigari ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye, aho harimo kecapu, amata y'inyange ndetse n'ibindi byinshi, amabiswi, n'ibindi bicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, aho abaguzi baza bakagura, bakishyura amafaranga.